Icyumba k'ishuri, kicawemo n'abana b'abasore babiri b'abanyeshuri, bicaye kuri pipitire. Umwe ari kwandi mu ikayi, undi ateze amaso uri imbere, uri kubabwira.

Abakobwa babiri n'abahungu batatu bari gusohoka kuri geti, imbere hagati mu marembo harimo ikoni, hepfo iruhande rwa giriyaje, hari akazu k'umuzamu na pubeli y'icyuma.

Icyumba cy'ishuri cyicayemo abagabo babiri bambaye amashati y'ibitenge, hakaba haririmo imashini zigiye ziri ku meza zisohora depurikate.